Iyi ni imwe mu nyubako yifashishwa n'abaturage mu kuhabonera amayinite yo guhamagara, bakabitsa amafaranga yabo ndetse bakanabikuza amafaranga yabo.

Iyi ni imwe mu nyubako itanga ikanacuruza amainite, ikabitsa, ikanabikuza. Hari abaturage bari kuhagendera, hari amabuye meza yifashishwa mu kubaka, hari ibiti byiza bitanga umuyaga, bigatanga umwuka mwiza, ndetse haparitse n'ibinyabiziga byifashishwa mu gutwara abagenzi.

Aba ni abakozi bakorera ikigo gicuruza kikanatanga amayinite, kikabitsa kikanabikuza gikorera mu Rwanda, aho bicaye bari kuganira bungurana ibitekerezo ku bintu bigiye bitandukanye.

Aha hari umugabo uri ku igare hakaba hari n'undi uri mu kazu gatangirwamo ama inite ukabitsa amafaranga ndetse ukanayabikuza aho bigaragara ko uyu mugabo uri ku igare yaje kwaka amayinite.

Uyu ni umuturage, umwe mu bashinzwe gukorera ikigo gitanga amayinite, kikabitsa, kikanabikuza, aho umuturage yamugannye amusaba kumubikuririza amafaranga.

Abagabo batatu baje gusaba ubufasha bwo guhabwa amayinite cyangwa se kubitsa no kubikuza, hicaye umugabo ubafasha kubikuza.

Uyu ni umuturage ukora umwuga wo gutanga amayinite kubitsa ndetse no kubikuza aho umuturage yamugannye ashaka kubikuza amafaranga.

Aba ni abagabo babiri bicaye aho harimo umwe wambaye umwambaro w'abantu bacuruza ama inite babitsa bakanabikuza amafaranga aho ari kumwe n'umugabo waje kubitsa cyangwa kubikuza.

Akazu gacururizwamo kakanatangirwamo ama inite, kakabikurizwamo kakanabikirizwamo. Umugabo ari kujyayo gushaka abari bumufashe guhabwa ubwo bufasha bwo kwakira ama inite, cya se kubitsa no kubikuza.

Aba ni abaturage harimo abagabo ndetse n'abagore bigaragara ko bicaye mu murima w'inanasi, harimo abagore bambaye udupfukamunwa abagabo, ikindi kandi inanasi zitanga umusaruro mwiza kuko iyo uzijyanye ku isoko ubona amafaranga, hari insina zifashishwa mu kuvaho ibitoki ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Aba ni bamwe mu baturage b'Abanyarwanda ndetse n'Abanyarwandakazi bigaragara ko bari mu mirimo y'ubugeni aho bakora imitako myinshi igiye itandukanye ushobora gutaka mu rugo iwawe hakaba hakeye kandi hafite isuku.

Ishyirahamwe rihinga inanasi aho abakozi bashinzwe mu kigo kibika kizigama n'amafaranga baje kubagira inama yo kubitsa ndetse no kuzigama amafaranga yabo mu kigo cyabo.

Abaturage baje mu nama rusange iganirwaho cyane cyane ibigendanye n'amashyirahamwe, ndetse no kwiteza imbere muri rusange, bakaganirizwa mu kwizigamira bagana ibigo bishinzwe kubitsa no gutanga amafaranga.

Iki ni kimwe mu bigo bikorera inaha iwacu mu rwanda, bitanga, bikanizigamira amafaranga y'abaturage. Aho bigaragara ko hari umugabo waje kubikuza amafaranga ye, ndetse n'umugore uri kumufasha kugira abone amafaranga.

Iri ni isoko ririmo ibicuruzwa byinshi bigiye bitandukanye, harimo inyanya, intoryi, imiteja, aho abaturage baza kugura ndetse no kugurisha ibiribwa kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze bugende bumera neza.

Aba ni abagore ndetse n'abagabo, bakorera mu mashyirahamwe bigaragara ko bakora umwuga w'ubudozi bw'inkweto, imikandar,a inkweto, imyenda, ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, bituma babona amafaranga yo guhaza imiryango yabo ndetse nabo ubwabo.

Ibi ni bimwe mu binyobwa bikunzwe hano mu Rwanda, byifashishwa n'abaturarwanda mu kubinywa basabana na bagenzi babo, bagashima inyota ndetse bakungurana n'ibitekerezo.

Iyi ni imwe mu nzu iberamo imyidagaduro itandukanye, aho abaturage bahasohokeye ndetse bakaba bari gufata ibinyobwa bigiye bitandukanye.

Iyi ni imwe mu nyubako wagana wumva unaniwe ukaharuhukira, ukahabonera ibyo kunywa by'amoko yose ndetse n'ibyokurya by'amoko yose, yaba ibya mu gitondo, ibya saa sita ndetse n'ibya nimugoroba.

Iyi ni imwe mu nyubako abaturage bashobora kugana bakaharuhukira bakahafatira ibyo kurya, ibyo kunywa, bakahumvira indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye.

Iyi ni imwe mu nyubako ushobora kugana ufite umunaniro ukabije ukaharuhukira, ukahabonera ibyo kunywa by'amoko yose, ukahabonera ibyo kurya by'amoko yose, byaba ibya mugitondo, ibya saa site ndetse n'ibya nimugoroba, hari intebe nziza ushobora kwicara ukaruhuka ndetse unareba imikino myinshi igiye itandukanye ku gikoresho k'ikoranabuhanga.

Iki ni kimwe mu byapa biranga ikinyobwa cyifashishwa mu gusabana n'inshuti kikanakumara n'inyota, hari abaturage bambaye imyenda myiza, hari abambaye amarinete y'amaso ndetse n'inkoni yifashishwa mu kugenderaho.

Iri n'iduka ricuruzwamo ibikoresho bitandukanye byo mu nzu harimo matela, imikeka ndetse rinacuruzwamo imyenda yo kwambara.

Uyu ni umukobwa bigaragara ko yaje mu iduka ricururizwamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye harimo: intoryi, karoti, amagi, utubombo, ibitunguru ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye byifashishwa mu buzima bwacu bwa buri munsi.

uyu ni umuturage w'umugore bigaragara ko yicaye mu iduka ricuruza ibintu byinshi bigiye bitandukanye, higanjemo ibyokurya by'amoko yose, harimo amavuta y'ubwoko bwose ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Iri ni iduka ricuruza ibikoresho bigiye bitandukanye harimo amaji, amata ndetse n'amasafuriya n'amabiswi ibyo byose bikaba byifashishwa mu kunoza imibereho ya muntu.

Iduka ricuruza ibikoresho byinshi byari bitandukanye, harimo ikirushe cyifashishwa mu kwarura ifiriti, harimo amakaroni yifashishwa mu guteka ndetse n'inyanya zifashishwa mu gutuma ibiryo bigira isura nziza.

Umugore bigaragara ko yicaye mu iduka ricuruza ibintu byinshi bigiye bitandukanye ingofero, imikasi, amasorori, ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Ushobora kuhagana ukeneye kimwe muri ibingibi ukahabonera serivisi nziza.

Isabune yifashishwa cyane cyane mu gukora amasuku, harimo koga kumesa n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, bityo bikadufasha kwirinda gukwirakwira kw'indwara nyinshi zigiye zitandukanye uyisanga mu maduka acuruza ibintu byinshi bigiye bitandukanye, harimo n'isabune.

Iri ni idukacuruza ibinyobwa bigiye bitandukanye, hakaba harimo n'ibikoresho by'isuku bigiye bitandukanye, hakaba harimo ndetse n'ibyifashishwa mu kudoda inkweto.

Uyu ni umwe mu baturage bigaragara ko yicaye mu iduka ritanga ibintu byinshi bigiye bitandukanye harimo: ibiribwa by'indagara, ibishyimbo, amavuta, amakaroni ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, hari n'amasabune yifashishwa mu gukora isuku ndetse n'ibindi bikoresho by'isuku bigiye bitandukanye.

Iri ni iduka ushobora kugana ukahabonera ibyo kunywa by'amoko yose atandukanye, harimo umugore wambaye agapira karimo amabara y'umweru n'ubururu ndetse haririmo n'agakoresho kifashishwa mu kubika inzoga ndetse no guterekamo inzoga.

Ibi ni bimwe mu biribwa ushobora gusanga mu maduka menshi agiye atandukanye, bigira intungamubiri nyinshi kuko bifashadu imikurire y'abana, biraryoha ikindi kandi ubiriye aba yumva yifuza kongera kubirya.

Iri ni rimwe mu iduka ryifashishwa n'abaturage bakahagana kugira ngo bakoreshe ibikoresho byabo bitandukanye biba byapfuye, amatelefone, amaradiyo ndetse bakanatanga poshete z'amatelefone, hari intebe nziza z'umweru ndetse hari n'inyubako yubatse neza cyane.

Abagabo babiri bigaragara ko umwe yicaye ku iduka ricuruza ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye harimo imyenda, udukapu byose bigaragara ko ari ibintu bikorerwa mu Rwanda.

Aya ni amwe mu mavuta yo guteka yifashishwa n'abaturage benshi, kandi aya mavuta akaba akorerwa mu Rwanda atuma ibyo guteka biryoha, ndetse bikagira n'impumuro nziza.

Aba ni abaturage biganjemo abagabo ndetse n'abagore ndetse n'abana bigaragara ko baje guhaha imbuto zigiye zitandukanye, zifashishwa mu kuzamura imirire myiza harimo imyembe, amatunda ndetse n'izindi zigiye zitandukanye.

Iki ni kimwe mu bikorwa by'amatorero yo mu Rwanda, ashishikariza urubyiruko kwirinda ibisindisha kuko ibisindisha ari yo soko y'ibyaha bigiye bitandukanye, hari ibiti byiza, hari abaturage bambaye neza ndetse hari n'umuhanda mwiza bari gucamo.

Uyu ni umubwirizabutumwa bw'ijambo ry'imana mu Rusengero. Aho ari kubwira abakristo cyangwa se abizera ukuri kw'ijambo ry'imana.

Aba ni abaturage bigaragara ko ari abapadiri ndetse n'abashinzwe umutekano ndetse n'abaturage basanzwe. Bigaragara ko padiri ari gusuhuzanya n'umwe mu bashinzwe umutekano ku rwego rw'Igihugu.

Aha ni mu rusengero aho hari intebe zicarwaho n'abaturage baba baje gusenga kugira ngo Imana ijye yumva amasengesho yabo ndetse bikanabafasha no kwegerana n'Imana.

Iyi ni imwe mu nyubako yifashishwa n'abaturage mu kwegerana n'imana biciye mu gusenga, hari ibinyabiziga bigenda bitandukanye biparitse, hari ibiti byiza bifasha kubona umwuka mwiza ku baturage baje gusenga.

Abagabo, abagore, abana bahuriye mu nzu ahitiriwe izina ry'imana baje gushengerera, baje gusenga no gushima imana ku byo yabakoreye.

Aba ni abagore bakora umwuga w'ubudozi bw'udutete twifashishwa mu bintu byinshi bigiye bitandukanye harimo kutujyana ku masoko ugatwaramo utuntu tugiye dutandukanye, hari igiti kiza kibafasha mu kuharuhukira kikabaha igicucu, ntibicwe n'izuba mu gihe bari gukora umwuga wabo.

Aba ni bamwe mu baturage batuye u Rwanda baba baje gusenga kugira ngo basabane n'Imana, hari intebe nziza zifite ibara ry'umweru ndetse n'ubururu, hari n'uducupa twifashishwa mu kunyweramo amazi, hari n'udutambaro twiza turi mu mabara menshi agiye atandukanye: umutukuu, umweru ndetse n'icyatsi.

Iyi ni inzu ushobora kugana wumva unaniwe, ukahabonera uburuhukiro, ukahafata ibyo kunywa byinshi bigiye bitandukanye ndetse n'ibyo kurya by'amoko yose, hari igikoresho k'ikoranabuhanga kifashishwa mu kureba amakuru agiye atandukanye ndetse no kuharebera imipira igiye itandukanye.

Iyi ni imwe mu nyubako abaturage bagana bakaharuhukira, hari ubwoegero rusange, hari ibiti byiza biteye aho ahakikije ubwogero rusange bituma abantu babona umwuka mwiza wo guhumeka.

Inyubako nziza ikeye, ifite isuku, urahagana ukahabonera icyo kunywa cy'amoko yose waba wifuza, ukahabonera ibyo kurya by'amoko yose waba wifuza, ibya mugitondo, ibya saa sita ndetse hari ubusitani bwiza ushobora kwicaramo ukaruhukiramo.

Iyi ni imwe mu nyubako ushobora kugana wumva unaniwe ukahabonera uburuhukiro bwiza, ukahabonera ibyokurya by'amoko yose yaba ibya mugitondo, ibya saa sita ndetse n'ibya nimugoroba, ukahabonera ibyo kunywa byiza kandi biryoshye by'amoko yose.

Ni imwe mu nyubako zifashishwa n'abaturage, bakahafatira ibyo kurya bya mu gitondo ibya saa sita, yaba ibya nimugoroba, bakaharuhukira, bakidagadura, bakamererwa neza.

Iyi ni imwe mu nyubako ugana bakakwakirana yombi ukabasha kuharuhukira, waba ufite umunaniro ubasha kubona uburiri bwiza busashe neza ukaryama ukaruhuka ukumva uguwe neza, bakubonera n'ibyo kurya yaba ibya mugitondo, ibya sa sita ndetse n'ibya nimugoroba n'icyo kunywa.

Iyi ni imwe mu nyubako abaturage ba bakahafatira icyo kunywa, bakahafatira ifunguro rya mu gitondo, irya saa sita ndetse n'irya nimugoroba bakaharuhukira, bakumva baguwe neza.

Uburiri bwiza usashe neza ushobora kuruhukiraho ukumva uguwe neza, ukahabonera ibyo kurya, ibyo kunywa, igihe cyose waba ubishakira.

Iyi ni imwe mu nyubako abaturage bagana bakaharuhukira, bakahabonera ibyo kunywa ndetse n'ibyo kurya, hari intebe nziza wicaramo ukaruhuka, hari amatara afasha kubona mu gihe cya nimugoroba, hari ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu kureba amakuru no kureba imikino igiye itandukanye.

Iyi ni imwe mu nyubako abaturarwanda bagana bakaharuhukira, bakahabonera ifunguro rya mu gitondo, irya saa sita ndetse n'irya nimugoroba, bakahumvira indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye, bakaharuhukira.

Iki ni kimwe mu byumba ushobora kugana ukaharuhukira ukumva uguwe neza, aha wahabonera ibyo kurya by'amoko yose ndetse n'ibyo kunywa by'amoko yose. Ni uburiri busashe neza, bufite amashuka meza, bufite isuku ihagije. Urahagana ukaruhuka ukumva uguwe neza.

Aba ni abaturage bigaragara ko bari mu isoko ahacururizwa ibintu byinshi bigiye bitandukanye hibandwa ku myambaro, ibikapu, amarido ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye.

Aya ni amwe mu matungo magufi akunze kororwa inaha iwacu mu Rwanda ,azwi ku izina ry'ihene. Bigaragara ko ari mu busitani bwiza aho abonera ibyo kurya. Hari umuturage bigaragara ko ari we uyashinzwe yayajyanye kuyashakira ibyo kurya.

Igikoresho cyifashishwa mu gucanaho bagateka ibyo kurya kandi bigahira mu gihe gitoyo, ntabo gitanga imyotsi ahubwo giteka ibiryo bigashya neza kandi bidafite umwanda.

Aba ni abaturage bariw isoko aho bagenda bacuruza ibitunguru, karoti, amashu, ndetse hanaparitse amamodoka y'abaturage.

Iyi ni imyeyo yifashishwa mu gukora amasuku iwawe cyangwa se ahandi hantu hagiye hatandukanye, hari akayunguruzo kifashishwa mu gukura imyanda mu byo kurya bigiye bitandukanye, harimo ibinyobwa cyangwa se imyumbati, hari imifuka yifashishwa mu gutwaramo ibintu byinshi bigiye bitandukanye nk'ibyo kurya uvuye guhaha.

Isoko rusange mu bigaragara ko ha ahagaze umugabo uri gucuruza imyenda myinshi itandukanye. Harimo iy'abagore, iy'abagabo, iy'abana ndetse harimo n'amaboxer n'amabag. Ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye.

Uyu ni umugabo bigaragara ko ahagaze ahacururizwa ibintu byinshi bigiye bitandukanye harimo: imyuko yifashishwa mu gusonga ubugari, utuyunguruzo twifashishwa mu kuyungururira ibiribwa birimo imyanda, ingufuri zifashwa mu gufunga, udufuka dutwaramo ibikoresho bigiye bitandukanye, amakayi, amajaga, amasahane, amatoroshi ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye.

Uru ni urujya n'uruza rw'abantu abagore, abagabo, abana, bigaragara ko baje mu isoko aho bahahira ibintu byinshi bigiye bitandukanye imyenda itandukanye, ibiribwa by'amoko yose ndetse n'ibindi bigye bitandukanye byinshi kandi byiza.

Uyu ni umwe mu baturage ucuruza ibikoresho byinshi byari bitandukanye, byifashishwa mu masuku agiye atandukanye, harimo imikubuzo yifashishwa mu gukora isuku ku mbuga, harimo amabase yifashishwa mu kogeramo, harimo ibiziriko byifashishwa mu kuzirika amatungo.

Iki ni igikoresho cy'ikoranabuhanga cyifashishwa mu kudoda imyenda, bityo ukambara ukaberwa, hari n'akabido kifashishwa mu kuvoma amazi yo kunywa bigatuma ugira ubuzima bwiza.

Iri ni isoko ricururizwamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye aho bigaragara ko hari abaturage bafite amatungo magufiya bahagannye, hakaba hari abaturage bari ku magare ndetse hakaba harimo n'imodoka igendamo abantu b'abanyamakuru hakaba hari n'abagabo bicaye ku ntebe bahagaze.

Uyu ni umuturage uri mu isoko ucuruza imyembe, inanasi, ibinyomoro ndetse n'amacunga ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye byifashishwa mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Aba ni abaturage harimo: abagabo, abagore, bigaragara ko bari mu isoko ricuruzwamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, hari igare yifashishwa n'abacuruzi mu kugeza ibintu byabo ku isoko kugira ngo bibashe kubona ababigura.

Iri ni isoko rihurirwamo n'urujya n'uruza rw'abantu bazanye ndetse baje no kugura ibintu bigiye bitandukanye, Hari ibinyabiziga byifashishwa mu gutwara ndetse no kugeza ibyo abaturage baje kugura mu ngo zabo.

Aba ni bamwe mu bahinzi bahinga ibihingwa bigiye bitandukanye: harimo ibitoki, amavoka aho babizanye ku isoko kugira ngo babigurishe bakuremo amafaranga.

Aha ni aho bafatira ibyo kurya, haba ibya saa sita, ibya nimugoroba, umuntu akabifata kugira ngo agire ubuzima bwiza kandi abashe no kumva amerewe neza, adafite inzara.

Uyu ni umutwazi wa moto ari mu muhanda ari gushaka abagenzi kugirango akorere amafaranga abone icyo gutunga umuryango no kwiyitaho we n'umuryango we.

Uyu ni umwe mu baturage ukora umwuga wo gutwara abagenzi yifashishije ikinyabiziga cyitwa moto, ari mu muhanda mwiza usu umukara, hari amapoto meza yifashishwa mu kujyana umuriro mu nzu z'abaturage, hari amashyamba meza atanga umwuka mwiza wo guhumeka.

Abaturage, abagore ndetse n'abagabo, bari ku binyabiziga byitwa amagare. Bari mu muhanda mwiza, wakozwe n'inzego z'ubuyobozi. Hari ibiti byiza bitamwuka wo guhumeka, bigatanga n'inkwi zo gucanisha. Hari ubusitani bwiza ushobora kwicaramo wumva umunani ukumva uguwe neza.

Ibi ni bimwe mu binyabiziga bigenda bitandukanye, byifashisha n'abaturarwanda ndetse n'isi yose muri rusange, byifashishwa mu gutwara abagenzi, mu gutwara imizigo, bityo bigatuma ingendo zihuta ndetse n'imizigo ikagera aho igomba kugera bitavunannye.

Aba ni abaturage bigaragara ko bari ku kinyabiziga cyitwa moto, gitwara abagenzi kibavana ahantu hamwe kibajyana ahandi. Bari mu muhanda mwiza wakozwe na leta bityo ukabasha koroshya ingendo. Hari amatara meza yifashishwa mu kumurika mu gihe cy'umwijima ikindi hari ibiti byiza bitanga umwuka mwiza wo guhumeka.

Iki kinyabiziga cyifashishwa mu gukora ingendo nyinshi zigiye zitandukanye, gitwara abagenzi kibavana ahantu hamwe kibajyana ahandi, hariho umugenzi uri kugenda n'amaguru ufite agatete agiye guhaha, hri imodoka yifashishwa mu gutwara ibinyobwa byinshi bigiye bitandukanye.